Imbaga y'abantu benshi biganjemo abagore, abagabo, akaba arimo abakora mu bigo by'ubutabazi, nk'uko bigaragazwa namajiri bambaye, bakaba barimo kugenda bafasha abaturage batishoboye bakaba babubakira.

Imodoka yifashishwa mu gutwara abarwayi mu gihe barembye babajyana ahantu hagiye hatandukanye cyane cyane igihe nko ku bitaro hamwe bamunaniye cyangwa se bamwimuriye ku bindi bitaro ahabwa ubundi bufasha.

Icyumba kirimo abantu benshi cyane biganje iwa bakora mu nzego z'ubuzima, bakaba barimo kugenda baganirizwa ku butumwa butandukanye, bakaba bambaye impuzangano zigiye zitandukanyekanya, hari abafite iz'icyatsi, abandi bakagira iz'ubururu.

Ahantu harimo kubera inama cyangwa se amahugurwa cyane cyane yibanda ku bintu bijyanye n'ubutabazi bw'ibanze, akaba ari ibigo by'ubuzima ndetse hakaba harimo abantu bifashishwa mu gutanga ubu butabazi bw'ibanze barimo kugenda bahugurwa.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byiganjemo ibyo kwa muganga, hakaba harimo uturindantoki, hakabamo imiti iri muri twa tuntu tuvamo umuti w'amenyo, akaba ari amapamba ndetse kandi hakaba n'ibindi bikoresho byo mu macupa byose n'ibyo kwa muganga.

Abaganga cyangwa se ba bantu batanga ubutabazi bw'ibanze bakaba bari gusunika umurwayi mu kagare ndetse kandi bakaba bambaye imyenda ipfutse ahantu hose bakaba ari bwa buryo bwo kwirinda gukwirakwiza indwara cyane cyane igihe haba hari icyorezo.

Abayobozi bagiye batandukanye, biganjemo babandi baba batanga ubutabazi bw'ibanze, bakaba bambaye amajiri agaragaza umuryango wabo, bakaba bafite impamyabushobozi, bakaba barimo kugenda bazitegereza, abandi na bo ari na ko bari kuzimurika.

Itsinda ry'abantu benshi barimo kugenda bakora amasuku bambaye imyenda bipfutse ahantu hose, bimeze nka cya gihe haba hateye icyorezo aho baba bambaye neza kugira ngo hatagira mikorobe cyangwa se utundi tuntu tw'amavirusi tugenda dukwirakwira bakaba bakwandura.

Ahantu hari ikigo nderabuzima hakaba haparitse imbangukiragutabara ndetse hakaba hariho n'akayira aho umuntu anyura gakikijwe n'ubusitani bw'indabo zicunze neza n'aho umuntu ashaka kunyura ndetse munsi hakaba hanyuramo amazi.

Mu kigo nderabuzima aho hariho abaforomo n'abaforomokazi, barimo kugenda bita ku umurwayi, muri cya cyumba bakorera mu ibaga, aho baba barimo gufasha umurwayi uhuye n'ibibazo bigiye bitandukanye bagenda bamubaga kugira ngo babashe kumuvura.

Umuforomo akaba arimo kugenda yakira abarwayi, akaba ari umugore ndetse uri kumwe n'undi mukobwa, bakaba barimo kugenda berekwa uko bagomba kuzuza ifishi kugira ngo babashe kwakirwa kwa muganga.

Inzu barimo kugenda bakiriramo abantu bagiye batandukanye ahangaha ni kwa muganga, hakaba hicaye abantu benshi cyane bameze nk'abaje mu mahugurwa, aho imbere hariho abarimo kugenda bandika abaje gusaba serivisi.

Imbaga y'abantu barimo kugenda bagana ahantu hari ibitaro bya Gatunda, barimo kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu, hakaba harimo urubyiruko, abagore, abagabo ndetse n'abasaza. Ubwabo barimo kugenda mu byiciro kugira ngo bajye guha agaciro cyangwa se kunamira inzirakarengane zapfuye mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi.

Imbangukiragutabara ikaba itwara indembe ndetse n'abandi bantu bafite ibibazo bikomeye by'ubuzima, bajyanwa mu bice bigiye bitandukanye kugira ngo babashe kwitabwaho n'abandi baganga mu buryo bwisumbuyeho.

Umusore ukiri mutoya akaba afite umupira arimo kugenda aterera hejuru ndetse kandi ku ruhande hakaba hariho umuganga wambaye itaburiya y'umweru, akaba arimo kugenda avugana n'abantu bateraniye hano.

Abagore bagera kuri batatu, hakaba harimo umwe w'umuganga, bakaba baje gufata imiti, akaba ari abagore babiri, bashobora kuba barwaye, imbere haka hariho urimo kugenda abahereza ibinini, biri mu macupa agiye atandukanye.

Abantu babiri bafite ifoto bafasheho bose bigaragara ko bari kuyihererekanya, bisa nkaho hari igikorwa bamaze gukora nk'inama cyangwa se ikindi cyari cyabahuje bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso.

Abagabo ndetse n'abagore barimo kwifotoriza imbere y'ikigo cyangwa se imodoka itwara abantu ibajyana mu bicenge bitandukanye cyane cyane abarwayigi, iyi bayita imbangukiragutabara.

Umuganga urimo kugenda yakira umurwayi, arimo kugenda amubaza ibintu bigiye bitandukanye, imbere ye kandi hariho mudasobwa, hakaba harimo n'ikayi arimo kugenda yandikaho, arimo kugenda yuzuza ifishi, umurwayi nawe agatega amatwi ibyo muganga amubwira.

Umugabo wambaye impuzankano ya gipolisi, afite umuntu arimo kugenda akingira arimo kumutera urushinge, ahangaha ni bwa buryo abantu baza kwivuza cyangwa se kwikingiza mu gihe hateye icyorezo.

Mu kigonderabuzima hakaba harimo umuntu urwaye, hakurya akaba hariho abaganga barimo kugenda babaza amakuru, babaza uko abarwayi bamerewe, ari nako bagenda babahereza imiti igiye igitandukanye kugira ngo babashe gukira.

Ahantu hari igitanda hameze nko kwa muganga kikaba gikikijwe n'intebe ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye, aha ngaha hakaba hashobora kuba hari umurwayi mu gihe barimo kumwitaho ndetse n'aho abaganga baba bicaye.

Ahantu hateraniye abantu benshi biganjemo abageze mu zabukuru, ahangaha bakaba bari ahantu batangira inama zigiye zitandukanye, ahangaha hakaba harimo n'umusore, ahangaha ni kwa muganga aho bari kubanza gusuzuma.

Umugore uri ahantu hameze nk'uruganda, ahangaha ni kwa muganga aho afite ibikoresho by'ikoranabuhanga arimo kugenda areberaho uburyo umurwayi amerewe ndetse ahangaha afite n'icyuma arimo kugenda azamura cya serumu.

Umuganga ufite imiti igiye itandukanye, arimo kugenda ayipangapanga mu duce tugiye dutandukanye, arimo kugenda areba iyagomba gukoresha kugira ngo abashe kurwanya indwara zigiye zitandukanye, zishobora kwibasira umuntu.

Umuforomo akaba arimo kugenda akusanya imiti igiye itandukanye yagiye afata, aha ngaha ni aho basuzumira akaba afite udukoresho tugiye dutandukanye turimo ibizamini bagiye bafata akaba arimo kugenda abishyira ku ruhande.

Ahantu hakorerwa ubushakashatsi hakaba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa aho bakorera ubushakashatsi kwa muganga cyangwa se, mumalaboratwari aho baba barimo gushaka, kugira ngo bavumbure indwara.

Kwa muganga hakaba hari ibikoresho bigiye bitandukanye byiganjemo amapamba, hariho ibinini, amafishi ndetse hakaba hari umugangada urimo kugenda areba ibyo abantu bakeneye akagenda abibahereza.

Imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye aho ku ikubitiro hariho umuti ushushanyijeho umubu ushobora kuba wica imibu mu rwego rwo kurwanya indwara ya Malariya kuko yibasira cyane Abanyarwanda.

Umuntu ukora mu bijyanye n'ubuzima akaba arimo kugenda afata imiti ayishyira mu rushinge kugira ngo abashe kuba yarutera umuntu kugira ngo amuvure. Uyu nguyu akora aho basuzumira indwara.

Imiti iri mu ducupa igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara, mu gihe umuntu yahuye n'ikibazo cy'uburwayi ndetse kandi ikaba yifashishwa mu kwica icyorezo.

Umuganga w'umuzungu akaba ari kumwe n'abandi bakiri batoya b'abaforomo, bakaba bambaye uturindantoki tw'ubururu, bakaba bambaye n'indi myenda yo kwa muganga y'imyeru, bakaba barimo kugenda bakora ibintu bitandukanye bijyanye n'ubuvuzi.

umugore w'umuforomokazi akaba afite ikaramu arimo kugenda yandika, ku ruhande hariho ibikoresho bigiye bitandukanye byiganjemo ibyifashishwa mu buvuzi, akaba arimo kugenda yandika imiti ku ruhande hariho abantu baje gusaba serivisi z'ubuzima.

Imbaga y'abantu benshi biganjemo ababyeyi, abana cyane cyane abana nibo bimirijwe imbere bakaba barimo kugenda basobanurirwa ibijyanye no kwita ku bana babarinda ku gwingira ndetse n'izindi ndwara.

Ahantu haba hari ikigo cy'amashuri, hakaba harimo abana bageze muri cya gihe cyo kwidagadura, igihe amasomo abarangiye, bakaba biganjemo abiga mu mashuri abanza, bamwe bakaba barimo gukina umupira.

Abaforomokazi bagera kuri batatu barimo kugenda babashyiraho raporo zigiye zitandukanye cyane cyane aba ngabo bakurikirana ababyeyi batwite ari na ko bagenda babaha serivisi zigiye zitandukanye igihe baje kwipimisha cyangwa se ubujyanama.

Serivisi cyangwa se ubutumwa bwa Minisiteri y'ubuzima, aho barimo gushishikariza abantu kwirinda Malariya, cyane cyane kuryama mu nzitiramibu iteye umuti ndetse bakagenda babishishikariza cyane cyane abagore batwite.

Umugabo we urimo kugenda agaburira abana igikoma, ahangaha ni mu mashuri y'inshuke cyangwa se mu mashuri abanza akaba, ariho abana arimo kugenda ahere za igikoma abashyirira mu gikombe buri wese akurikije icyo .

Abantu barimo kugenda bazenguruka ku ruziga, ahanga ngaha baje mu nama, barimo kugenda bananura amaguru kugira ngo baze gukurikirana ibindi biganiro biribuze gukurikiraho, aha ngaha biganjemo abakora mu buganga cyane cyane ni abavuzi.

Umugore w'umuvugabutumwa arimo kugenda, yitakuma imbere y'abantu afite indangururamajwi, ndetse kandi hakaba hariho, ikigo k'ivugabutumwa bakaba barimo kurwanya ibiyobyabwenge.

Imbaga y'abantu benshi barimo kugenda batanga ubutumwa bugiye butandukanye bwiganjemo ubwo kurwanya ibiyobyabwenge cyane cyane mu rubyiruko ndetse no mu muryango nyarwanda, barimo kugenda bazenguruka mu duce tugiye dutandukanye.

Iduka bacururizamo imiti igiye itandukanye yiganjemo iyo baha amatungo, hakaba ariho nimero ushobora gushakisha abantu mu gihe wasanze badahari, waramutse uraje kubasaba ubufasha.

Iduka bacururiza mu imiti, hakaba hariho igicupa kirekire, kikaba kirimo imiti igitandukanye yifashishwa mu kuvura indwara, ushobora gusanga kivura indwara z'abantu cyangwa se az'amatungo.

Ahantu hari ivuriro, aha ngaha bakaba batanga serivisi zigiye zitandukanye, aha ngaha ni kwa Jacques, bakaba batanga serivisi zigiye zitandukanye zijyanye n'ubuzima, aho ushobora kuhajya mu gihe ufite ikibazo cy'ubuzima.

Umuti wa vitamini wifashishwa cyane cyane iyo bawuha inka kugira ngo ibashe gukura neza, ihabwa n'abaveterineri cyangwa se ba muganga w'amatungo ari ho ushobora kujya kuwugura ku iduka ryabo.

Abantu babiri barimo kugenda batambuka iruhande rwa farumasi cyangwa se iduka bacururizamo imiti, bakaba barimo kugenda bahanyura kugira ngo babashe kuba bagura imiti igiye itandukanye.

Iduka ririmo abantu. lringiri ikaba ari ya maduka acuruza imiti igiye itandukanye, akaba ariho umuganga uhakora, akaba ari kumwe n'undi mu mama urimo kugenda, amusaba imiti igiye itandukanye.

Iduka ricururiza imiti, harimo iyo abantu bashobora gukoresha bo ubwabo cyangwa se bakayihereza amatungo agiye atandukanye, ahangaha kandi ushobora no kuhasanga muganga w'amatungo, akaba yaguha inama zigiye zitandukanye, bijyanye n'ibyo ukora.

Iduka aho ushobora kujya kugurira ibikoresho bijyiye bitandukanye byiganjemo imiti cyangwa se ukaba wahakura inama zijyanye n'ubuzima mu gihe bashobora kukugira inama mu bworozi cyangwa se mu buhinzi.

Ahantu hari ikigo cyangwa se iduka ricuruza imiti, akaba ari aho abantu binjirira mu gihe baje kugura imiti bakaba babafasha umwe kuri umwe bakurikije uko baje.

Ahantu hariho ivuriro gakondo hakaba hariho n'ibiharanga ko ari ivuriro gakondo hakaba hariho nimero ushobora kubashakiraho kuko bakora ubuvuzi bifashishije ibimera.

Umugabo ukora mu bijyanye n'ubuzima ahangaha ari akaba ari mu iduka ricuruza imiti, aho ushobora kujya kuhafata iyo bakwandikiye na muganga cyangwa se mu gihe wowe ushaka kuyigura.

Umugore ufite ibinini bigiye bitandukanye, afite inzara ndende za zindi z'interano, akaba yambaye agakoti gafite ubwoya ndetse kandi uyu nguyu afite n'udutoki tunyereye.

Umugore n'umugabo bakora mu iduka ricuruza imiti, aba ngabo iyo bakwandikiye imiti cyangwa se uje kugura imiti ku giti cyawe babasha kuguha inama ndetse bakaba baguha imiti ushaka.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bicaye hasi kandi hakurya hakaba hariho abandi biga mu mashuri yisumbuye, bakaba barimo kugenda bagaragaza ubutumwa bugiye butandukanye cyane cyane bifashishije ibyapa.

Ahantu hateraniye imbaga y'abantu nyamwinshi bakaba barimo kugenda baganirizwa ku bintu bigiye bitandukanye, imbere yaho hariho umugabo urimo kugenda abaganiriza abafasha kuba bagira ibyo bamenya.

Icyumba kirimo abantu benshi, hakaba hariho umuntu umwe urimo kugenda abagezaho ubutumwa bugiye butandukanye, aha ngaha kandi hakaba hariho abaturage bahateraniye biganjemo abasore, abakobwa bakaba barimo kugenda baganirizwa.

Imbaga y'abantu benshi bari mu nama yicaye muri ya masale cyangwa se ibyuma byabugenewe, aho abantu bicara bakiyakirira cyangwa se bakaganira, imbere yabo hari abantu bari kugenda babasusurutsa babyina mu mbyino gakondo.

Abagore batatu b'abaforomokazi, bambaye imyenda y'ubururu n' imyenda y'akazi bifashisha mu gihe bari kwakira abarwayi cyangwa se igihe barimo gufasha umuntu ufite ibibazo bijyanye n'ubuzima.

Ibikoresho byifashishwa na ba muganga mu gihe barimo kugenda basuzuma umurwayi, bakaba babishyira ku gatuza kugira ngo bumve uko umutima urimo gutera, hakaba hariho ibindi bikoresho bigiye bitandukanye byiganjemo amapamba ndetse n'ibindi bashyira mu amatwi.

Imiti igi itandukanye yiganjemo ya gakondo, iri mu ibimera bye bitandukanye, harimo imeze nk'indabo ndetse hakabaho n'udusekuru dutoya bagenda bayisekuriramo.

Umugore ukora mu'iduka ricuruza imiti, akaba arimo kugenda akora ku moko agiye atandukanye y'imiti, imyinshi yiganjemo imiti gakondo ishobora kwifashishwa mu kuvura uburwayi bugiye butandukanye.

Inzu ebyiri zubatse zikaba ziteye amarangi y'ubururu hakaba handitseho girubuzima, akaba ari ibigo nderabuzima aho umuturage ashobora kujya gusaba serivisi zijyanye n'ubuzima hanyuma bakanyitaho.

Umugabo ufite agacupa kakaba karimo imiti igiye itandukanye yiganjemo iya gakondo, akaba afite igitabo yifashisha mu gihe ari gutunganya uyu muti, cyanditsemo amabwiriza agenga uko bikorwa.

Amafunguro ateguye mu buryo butandukanye, uruhande rumwe hakaba hariho isambaza bamaze gukawusha, hakaba hariho n'agasosi karimo ibitunguru byinshi, hakuno hakaba hariho isombe ndetse n'ayandi moko agiye atandukanye.

Ivuriro hakaba hariho aho bakirira abantu, hakaba hitwa gira ubuzima hakaba hariho abantu bashinzwe kwakira abarwayi mu igihe baje babagana, aha ngaha imbere hakaba hariho aho ugomba kubanza ugakaraba mbere yo kwinjira.

Imbaga y'abantu benshi biganjemo abagabo, abagore, imbere yabo hakaba hariho umuntu umeze nk'umujyanama w'ubuzima akaba yambaye itaburiya y'akazi bakaba bicaye barimo kugenda bahabwa inama cyane cyane ku zishingiye ku buzima.

Abagabo bagera kuri batatu ndetse n'umugoro umwe bambaye nk'abantu bakura mu bigonderabuzima ndetse n'ahantu hatangirwa serivisi z'ubuzima, barimo kugenda baganira ndetse undi umwe ari kugana mu kindi cyerekezo.

Abakecuru n'abasaza bafite ibipapuro mu ntoki, ni kwa kundi abantu baba baje kwivuza bakagenda babuzuriza amafishi kugira ngo babashe kuba bivuza ndetse ayo mafishi bakandikaho amazina yabo n'ibyo baje kwivuza.

Mu kigo cy'amashuri, hakaba hariho abana biga mu mashuri abanza, barimo kugenda bakaraba intoki, bakoresheje kandagirukarabe, ikaba igizwe n'ijerekani irimo amazi, hakaba harimo n'ibase, umuntu akarabiramo, harimo umwana uri gukaraba.

Imbaga y'abantu benshi yiganjemo abamama bafite abana, ni cya gihe baba bagiye gukingiza kugira ngo bafate inkingo zose zishoboka zituma umwana atagwingira ndetse kandi bikamurinda ko yafatwa n'inkorara zitandukanye, aho baje kwa muganga.

Ivuriro aho bakirira abarwayi bafite ibibazo bigiye bitandukanye, hakaba hariho aho umuntu ashobora kubanza gukaraba mbere yo kwinjira, hakaba hateraniye abantu bagiye batandukanye baje gusaba serivisi.

Ahantu hari umuganga uyu nguyu bamwita umuforomo akaba ari kwakira umubyeyi wazanye umwana we kumuvuza, bakaba barimo kugenda basuzuma ikibazo yaba afite, ari nako bagenda bareba muri mudasobwa.

Umugore uri kwa muganga bakaba barimo kugenda bamusuzuma uyu nguyu aratwite, barimo kugenda bamwereka uko byifashe mu nda ye, aha ngaha ni umuganga w'inzobere arimo kugenda amufasha mu byo arimo gukora.